Imishyikirano hagati y'abagabo babiri, umwe yaguze ikinyabiziga n'undi ari kukimugurisha. Ikinyabiziga cy'ibiziga birenga bine, cyifashishwa mu gutwara ibikoresho, cyangwa se ibindi bintu.

Ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwo kubakura ahantu hamwe kibajyana ahandi ariko benshi, kigizwe n'ibiziga bine, gishobora gutwara abantu umubare w'abantu mirongo itatu na babiri.

Indobo ikoreshwa mu kubika ibicuruzwa nk'amandazi, isambusa cyangwa se capati, irimo icyo bafatisha n'amandazi abiri.

Ibicuruzwa bigizwe n'amata, amata akomeye kivuguto harimo ari mu makarito, ndetse nari mu bukopo busanzwe ari mu mabido ikivuto gisanzwe, ndetse nandi mata ikivuguto kiba kivanze n'imbuto.

Kwamamaza uburyo ushobora koheza amafaranga mu manyarwanda cyangwa se mu bundi bwoko akakirwa mu manyarwanda cyangwa se mu bundi bwoko ukoresheje telefone igendanwa.

Itangazo ry'ibiciro by'ivunjishwa ry'amafaranga mu bwoko bumwe, ajya mu bundi aho kugura naho kugurisha bigeze.

Ihererekanwa ry'amafaranga hagati y'abantu babiri, mu bwoko butandukanye, amafaranga amwe mu madorari ndetse ayandi mu mayuwani, mu buryo bwivunjishwa.

Amakuru ajyanye n'ibiciro by'aho ivunjishwa ry'amafaranga y'amadorari ageze ku bindi bihugu nk'ubwongereza ndetse n'ibindi byinshi.

Ahakirirwa amafaranga mwohererejwe aturutse mu mahanga ndetse n'aho bavunjishiriza ndetse n'icyuma ushobora gukoresha igihe ufite ikarita ukaba wabikuza amafaranga kuri konti yawe.

Icyapa kigizwe n’amakuru atandukanye ahatangirwa serivisi zo kohereza no kwakira amafaranga. Ahatangirwa serivisi z’ivunjishwa ry’amafaranga ava mu bwoko bumwe ajya mu bundi, ndetse naho ibiciro bigeze mu kugura no kugurisha.

Uruhuriro rwaho abategereje kujya mu ndege bicara imbere aho bashobora kuvunjishiriza amafaranga ava muyo bafite ajya muyo bakeneye.

Ahagurishirizwa ibikoresho byifashishwa mu mazu akimara kubakwa. Urugero : utubati, intebe zo ku meza, ndetse n'intebe zo kwicaramo mu ruganiriro.

Imeza ishobora gukoreshwa ahantu hatandukanye, ikozwe mu mbaho ifite amaguru ashyigikiwe n'ibyuma, mu ibarizo cyangwa se aho bakorera ububaji bw'intebe, ameza, ndetse n'ameza yo mu biro.

Mu gikari cy'uburuhukiro hagizwe n'ubusitani ndetse n'ibiti bihakikije ndetse n'inyubako y'ubwo buruhukiro.

Akabari na resitora by'uburuhukiro aho abantu bashobora kwicara bakarira ndetse bakananywera cyangwa se bakaba banahaganirira.

Igikari cy'uburuhukiro bwubatse mu buryo bujyanye n'iterambere mu buryo bw'amagorofa, ibiti ndetse n'aho ababuruhukiramo baruhukira igihe batari mu byumba byabo, mu buryo bwo kwishimisha nangwe se mu buryo bwo kugorora umubiri bakoresheje amazi, mu buryo bwo koga.

Ahatangirwa serivise z'ikigo cy'ubwishingizi Sonarwa. Mu ihuriro ry'ahatangirwa serivise nyinshi benshi bita : imurikagurisha.

Ahatangirwa serivise z'ubwishingizi aho bakirira abakiliya, aho abakiliya bicara ndetse naho ababakirira bicara, ndetse n'amafoto yamamaza ibyo icyo kigo cy'ubwishingizi gikora.

Itangazo rimenyesha abakiriya ba banki, yuko bitakiri ngombwa yuko kwishyura, kohereza kwishyura imisoro, cyangwa se kugura izindi serivisi bitakiri ngombwa yuko ujya ku ishami ushobora kuba wakoresha urubuga rwabo nkoranyambaga ukabikemura byose.

Mu isoko ahacururizwa ibicuruzwa bitandukanye; nk'inyanya, ibitunguru, ibishyimbo ndetse n'ibindi nk'ibitoki mu buryo bwinshi cyangwa se mu buryo bukeya.

Abantu batandukanye bafite amadapo y'ibara ry'umweru ubururu n'umutuku yanditseho Efuperi bakikije umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame wambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru, uriho ikirangantego cya efuperi wazamuye akaboko.

Ipikipiki y’ubakiyeho akabati gakozwe mu byuma kabikwamo ibiryo cyangwa se ibigemuriwe uwabiguze kumbuga nkoranyambaga, na nimero ushobora kubabona mu gisate cy'umuhanda w'abanyamaguru.

Inyubako nini baragaragaza ko iherereye Kibagabaga Kigali kandi barerekana ko iri kugurishwa amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu iki ni ikintu gishyirwa ku nzu cyangwa se gishyirwa ahantu umuntu ari kugurisha agamije ko abantu babona icyo agambiriye cyangwa se bamenya ko niba agiye kugurisha bamenya agaciro , igenagaciro ry'icyo kintu ashaka kugurisha .

Inzu isize amabara y'iroza ndetse n'ibirahure, ni inzu y'amagorofa ane imbere yayo hahagaze ama modoka menshi ndetse n'umuntu umwe wambaye imyenda y'umweru uri hagati y'ayo ma modoka.

Ahakirirwa abakiriya bavuye guhaha ibicuruzwa, mu buryo bwo kubamenyesha umubare rusange w'amafaranga bari bwishyure ku bicuruzwa baguze, hanyuma bakabona gusohokana na byo.